Ikiyaga kirimo abarobyi babiri. Bafite ubwato bubiri butandukanye buroba, bufite indobani babiri bicaye mu bwato bumwe. Gikikijwe n'imisozi ifite ubutaka bw'ibumba amashyamba ndetse n'inzira.

Inzira yo mu mudugudu ,ijya ku mashuri umubyeyi uri gutambuka ubwiherero, ibiti bibahereza umwuka mwiza, abanyeshuri ndetse n'urutoki inyuma yaho.

Isoko ry'ibiribwa rigaragaramo igihingwa ahanini kigizwe n'ibitoki bigisa icyatsi bitarahinduka imineke, baza bakagura ndetse bakanagurisha.

Umunzani upima imyumbati abantu baje kugura mu isoko .Umuguzi wambaye imyenda y'umukara, umucuruzi wambaye imyenda y'umuhondo uri kugurisha iyo myumbati.

Abahinzi bari mu murima w'ubunyobwa, umugabo ndetse n'umugore uri kureba muri telefone itukura, imisozi ndetse n'amashyamba ahazengurutse atuma haboneka imvura yo kweza iyo myaka.

Amabase ndetse n'inkoko, umuntu ari kugosora avanamo imyanda biteretse hasi .Urubingo, ibyatsi byumye, ibishoshogo, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ihene zibikanda ziri ku ncumagira zizitse ku majosi ziri mu kiraro gikikijwe n'ibiti by'intusi byumye, zimwe zishamye izindi zihagaze ziri kurisha utwatsi duke hasi.